Ifumbire ya ire ni nziza cyane, kuko ifasha ibihingwa gukura bikamera neza. Iyi ire ishyirwa kuri ku nyanya mu busitani butandukanye.

Umuhinzi ari gutera umuti wica udukoko mu myaka ye, hari n'ingano nizo ari guteramo umuti hirya hari hahinze ibishimbo, ibi bituma n'ibihingwa bimera neza ntibyangirike ntibyicwe n'udukoko.

Umuhinzi uri gutera umuti wica udukoko mu nyanya akoresheje ipompo, pompo y'ubururu ayihetse ku mugongo, inyanya biragaragara ko zangijwe n'ibyatsi ntago zibagaye ariko ari kuziteramo umuti.

Icupa ry'umuti wa domini batera mu myaka ukarwanya udukoko. Uri icupa risa n'umweru n'icyatsi kibisi washushanijeho imboga n'imbuto.

Amafi meza cyane amafi nayo ni kimwe mu biribwa bikurwa mu mazi, biryohaga kandi byiza bifasha umubiri gukomera.

Abarobyi bari kuroba umwe afite isambaza amaze kuroba ari kuzisuka mu mu kabase undi afite telefoni, izi sambaza ni nziza kuzirya rwose.

Abarobyi bari kuroba bari mu bwato butatu kandi ubu ubwato burahambiranyije ku buryo bisa nkaho bari gukorera hamwe baroba isambaza muri iki kiyaga mbese bakazikoresha mu bintu bitandukanye kuzirya no kuzigurisha bakabona amafaranga.

Isambaza nziza cyane ziroga mu biyaga no mu biyaga cyane cyane ino haba ibiyaga bya burera na ruhondo izisambaza niho zikunze guturuka kandi izisambaza ziraryohaga kuko zirwanya kugwingira mu bana ndetse n'imirire mibi ndetse zigakomeza n'abakuru.

Amafi ni kimwe mu bisimba biba mu mazi ,ariko iyo babirobye bitabipfa bikaribwa n'abantu biraryohaga, kandi ni ingenzi kubirya kuko bigira intungamubiri nyinshi cyane.

Amafi akawushije yumukije mbese bakaranze. Ayo mafi araryohaga cyane kuko aba ameze neza cyane kandi kuyagira gutya, bituma abikika igihe kirekire.

Ibiryo biri mu gasahani gato katari kanini, ibiryo byiza harimo ifi, ifi nziza rwose iryoshye, kubireba bino biryo bitumaga ubishaka cyane, ni byiza rwose.

Ifi ziryohaga cyane zirakaranze, barimo barazikaranga n'ibirungo ku ruhande, ibi birungo harimo urusenda rutukura ndetse n'utundi turungo twiza cyane. Iyi fi rwose irajyoshye irajyoshye.

Amafi abiri inini n' intoya, aya mafi arobwa mu kiyaga hano mu Burera ni ho akunda kuba, kuko mu majyaruguru hari ibiyaga bya Burira na rRhondo. Kandi aya mafi araryohaga kuko arinda imikurire mibi mu bana, kandi agatanga na poroteyine ku bantu bakuru bakamera neza.

Amafi ari mu gasahani ka palasitike, aya mafi arobwa mu biyaga bitandukanye, kandi aba ari meza mu gutegura amafunguro, isosi ijyoshye y'ubugari.

Amafi atanu ari mu kasahane gatobaguye ka parasitike， kandi ayo mafi arobwa mu kiyaga，amafi araryohaga， kuko niyo avamo intungamubiri nyinshi cane，araryohaga cane.

Isambaza nyinshi ziva mu mazi mu biyaga, zikunze kuribwa cyane cyane n'abantu b'ingeri zose, kuko zigira akamaro ku buzima bw'umuntu.

Igiti cya avoka kinini cy'inganzamarumbo giteye hafi n'urutoki, hafi nabwo n'ibigori byeze avoka ni nziza, kuko itanga umusaruro tukabona avoka zo kurya.

Umurima uhinzemo ibirayi, ibirarayi bisa naho birimo ibyatsi ntabwo bibagaye hirya yaho hari ibigori basaruye n'insina z'urutoki, kandi ibirayi ni byiza bigaragara ko babibagaye byakomeza kuba byiza.

Umurima gurimo intama ziri kurisha wamezemo ibyatsi, zino ntama zirimo zirarishamo, uyu muririma wegereye amazu imwe ya kaadasiteri yubakishije umucanga, indi yubakishije rukarakara, mbese nti ruzura.

Ibiti by'imigano biteye hafi n'akayira nyabagendwa. Aka kayira kakaba gakomeza hirya, kandi iyi migano nimyiza ifatanye n'ishyamba, ku ruhande bigaragara ko bahatemye igiti.

Umurima gwaraye urimo wamezemo, ibyatsi byinshi bimwe bikura uduti tureture, ibindi hirya ni ibiti bya gereveriya hirya hari n'urutoki.

Umurima uhinze neza kandi uri mu rutoki, urutoki rurakoze rumeze neza narwo, rurakoreye neza. Uyu murima bisa naho bazawuteramo mu minsi iri imbere ibirayi, ari byo bikunze kwera mu majyaruguru i Musanze.

Umuririma guhinzemo ibiti, hamezemo ibyatsi mbese wararaye cyane. Hirya hari ibindi bigori byumye basaruye ariko baraharaje. Uyu murima usa n'uwaraye ariko uteyemo ibiti wamezemo n'ibyatsi.

Umurima mwiza cyane uhinzemo ibirayi bitoshye, bitohagiye gwose, byitaweho neza, bimeze neza biri kurabya, kandi uyu murima ibirayi ni byiza mu majyaruguru kuko hari hagaragara n'ikirunga inyuma cya Sabyinyo.

Ingemwe z'ibiti bya Gereveriya, imisave, Ibi biti bikaba bihingwa ahantu hatari ishyamba cyangwa bikavangwa n'imyaka kugira ngo bifate ubutaka kandi ubutaka burumbuke.

Umurima wobasaruyemo ibigori kandi wegeranye n'umurima w'ibirayi, kuwuhinga banakorera aya mateke, amateke ni kimwe mu bigihingwa gitanga imbaraga kuwu kiriye wese kandi no ku isoko barakiguraga neza cyane.

Umurima uri guhingwa, uri guhingwa wari umaze igihe udahinze, uri imbere y'inzu, mbese ziriya nzu bisa naho ba nyirazo ari nabwo nyiri uyu muririma, umurima kandi uzahingwamo ibihingwa byinshi cyane bitandukanye.

Umurima w'ibirayi biri kumera, bimaze igihe bimeze, bimeze neza cyane, hijya hari ibigori biri kwera byeze n'urutoki bigaragara ko uyu murima rwose witaweho cyane, kwitabwaho, mbese bategereje gusarura ibigori vuba aha.

Imbogeri zakuze cyane zirakura zigera n'aho zirabya, inyuma ya zo hari urutoki, urutoki na rwo ntabwo rurera, bisa naho ntago rurashyiraho icyo igitoki cyo kurya.

Ibiti bivangwa n'imyaka byarakuze cyane kandi aho biteye bigaragara ko hasaruwe ibigori ibigori bikaba bijyohaga.

Umurima w'ibirayi uhinzwemo ibirayi ariko ntabwo bigaye, hirya hari ibiti n'amazu yubakishije amatafari ya rukarakara. Ibirayi ni igihingwa cyiza kuko iyo byeze bitangaga amafaranga kandi bikanaribwa n'abantu ku bwinshi.

Umurima uhinzemo karoti hirya hasaruwe ibigori hagati harimo akayira, harimo umuntu uri kunyuramo yikoreye udukwi two gucana, kandi uyu murima biragaragara ko uba iyo uhagazemo uba uri kureba ikirunga inyuma cya Sabyinyo.

Isoko ry'imboga harimo imiteja, Puwavuro na Seleri n'ibitunguru n'intoryi byose byifashishwa mu gutegura amafunguro aryoshye.

Ihene ziraziritse aho zirishiriza zimwe ziraryamye, izindi zirahagaze izi hene ni itungo ryiza ryororwa, kandi iyo zitaweho bitanga umusaruro n'inyungu.

Umuhinzi ari mu murima w'urusenda, bigaragara ko urusenda ari rumwe rutukura, mu murima we arimo ararwitegereza. Urusenda ruri ku isoko cyane rugezweho kuko ruba rushakwa n'abantu benshi, rukavamo amafaranga menshi.

Ibigori bimanitse mu nzu ese birahunitse bazabiseshamo ifu ivamo igikoma cyangwa kawunga, mbese iyo iyo fu ivuyemo iraryohaga cyane bikora kawunga iryohaga cyane ya patejone.

Abagabo babiri bari mu kiraro cy'ihene bafashe imwe, umwe ari kuyikingira ni nk'aho ari veterineri undi arayimufashije . Kuvura amatungo ni byiza kuko bituma zikira zigakomeza kororoka.

Imbuto ziri mu ndobo harimo: pome, icunga na kokombure, izi zose zikaba zikoreshwa mu gutegura nka ji cangwa se n'ibindi bitandukanye, iyi kokombura ariko baranayitekaga kuko yo irakoreshwa nk'imboga.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane gikunda kwera ino mu Rwanda mu bice hafi ya byose. Abari hano bari kugipima ibiro kugirango ngo bamenye umusaruro wavuye kuri buri giti cy'ummbati.

Inka ziri ahantu mu rupango ziragiwe n'abana bazicunze. Izi nka higanjemo iz'umukara, iz'igaju, iy'umweru. Izi nka ni nziza rwose ahantu ziri nubwo nta bwatsi buhari.

Umuhinzi, umubyeyi ari kumwe n'umwana we mu murima bari guhinga babagara imyaka harimo imyumbati, ibigori n'ibishimbo, gutoza umurimo umwana akiri muto ni byiza kuko akura awukunze kandi atari umunebwe

Umurima gw'ibigori urimo abagabo batatu imbere yabo bisa n'aho uri imbere arimo arabereka uko bita ku bigori babibagara , ni goronome inyuma ye hari abandi bahinzi bareba uko bikorwa, kandi ibi bifasha abahinzi kwita ku bigori byabo bikera neza.

Amasaka basaruye ari ku ntara. Aya masaka akuvamo ibintu byinshi by'ingirakamaro bayakoresha ubushera, imisururu, kandiki akavamo n'ifu yo gukora igikoma. Ni meza cyane kandi aragurwa ku isoko agatanga inyungu ku bahinzi bayo.

Imbuto n'imboga bitandukanye harimo imiteja ,indimu, puwavuru, ndetse n'intoryi.

Imbuto z'amatunda zijyohaga, hari ugo bakase ruri kugaragaza ibirimo imbere bijyohaga. Nanjye ndazikunda zituma mera neza nkajyohegwa.

Ihene nziza y'isekurume ifite amahembe n'icyanwa cyayo cyiza cyane, yazuye umugara ihene nimwe rizimye mu matungo yunguka kandi atanga umusaruro, agateza imbere aborozi.

Umuhinzi ari kubagara ibigori bisa naho bikiri bitoya bigeze mu gihe cyo gucogwa, akaba ari kubibagara kuko birimo ibyatsi byinshi. Kubaga ibigori bituma bimera neza bigakura bitangijwe n'ibyatsi.

Imiteja iri mu tuntu tw'udupalasitike bitaga udukurete, kandi iyi miteja ikunze kujyanwa hanze bakayicururiza mu bihugu by'amahanga, tukabona amadovize. Imiteja ihingwa cyane cyane mu Gwanda ahantu hakonja kandi hera hafite ubutaka nk'iyo Musanze.

Abahinzi barimo barareba igiti cy'imbuto zitwa ibifenesi, ibisenesi bikaba biryohaga cyane, kandi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Imbuto z'amapera ziri ku giti kimeze neza, nizo mbuto zimeze neza kandi biragaragara ko aya mapera aryohaga kuko niko biba bimeze iyo uyariye.

Abahinzi, biganjemo abadamu n'abagabo, bafite amasuka n'ibitiyo, bari gukora imirwanyasuri, amaterasi. Ndetse bari kuyakora ku gasozi, bisa n'aho kakunze kwibasirwa n'isuri.

Ibishyimbo basaruye bimeze neza, ibishyimbo bifite utubara dutukura. Ibishyimbo ni kimwe mu biribwa byiza kuko byongera poroteyine mu mubiri, kandi bigatuma dukomera ntiturwaragurike.

Umuhinzi kandi akaba ari n'umudamu ufite ingemwe z'ibiti ibi byo gutera, iyo ubiteye ahantu bifata umusozi kandi bikaba bigira n'indi mimaro myinshi itandukanye.

Umurima w'ibigori mwiza, ibigori bishishe bigaragara ko byitaweho neza ariko ntago birera. Ibigori byiza gutya biba byarafumbiwe neza kandi umusaruro wabyo aba ari mwiza rwose.

Umuhinzi w'umudamu ari kwerekana umurima we w'ibigori uburyo bimeze neza, bishishe mbese byitaweho neza uyu rwose yabyitayeho ibigori byita neza bitanga umusaruro mwiza, kandi bikagurwa neza bigateza imbere ubuhinzi.

Intoryi ,inyanya ni zimwe mu mboga ziryohaga ,kandi nziza cyane zi duteka kugira ngo dukore isosi nziza kandi tukarya tukamererwa neza.

Umurima w'imyumbati hirya hari urutoki iyi myumbati iraryohaga kandi yera neza muri iki gice kuko gifite ubutaka bwiza kandi iyo ugeze ku isoko igurwa na benshi bikungura abahinzi bayo.

Imbuto zitandukanye zirimo ziracuruzwa harimo: ibinyomoro, imineke, indimu, inanasi, mbese birimo biracuruzwa, ibi byose biraryohaga. Babyifashisha bari nko gukora amaji, imito n'ibindi bintu bitandukanye.

Imbuto z'amatunda hari irurabyo hari n'itunda ryeze ryatukuye hari n'andi atarera. Aya matunda araryohaga kuko harimo araryoha harimo agasukari n'intungamubiri birwanya umuze umuntu akagira ubuzima bwiza.

Agoronome ari muri Girinihawuze, ihinzemo inyanya zigezweho kandi arimo arazireba arimo arazerekana, yambaye itaburiya n'ingofero, mbega arimo arerekana izi myanya uburyo zimeze, ziteye neza, zeze neza.

Umuhinzi arasaruye ibigori byiza cyane rwose byitawe neza biraryoshye, ubu igikurikira ni ukubihungura akabyanika akazabiseshamo ifu ya Kawunga ikazavamo ubugari bwiza buryoshye.

Abahinzi b'ibishyimbo bari kumwe na agoronome, abahinzi babiri b'abadamu na mugoronome nawe ni numudamu afite agakapu na telefoni, bisa naho bari kubagira inama anabumvira n'ibibazo bafite.

Abahinzi barimo barasasira amashu. Aga mashu bisa n'aho ameze neza, bayitayeho barishimye kuko ameze neza ,ari mu gihe kiri imbere azabaha umusaruro mwiza bunguke babone amafaranga.

Umurima uhinzemo amashu, hirya yaho hahinzemo ibigori, harimo abantu abagabo batatu barimo baracomekanya amatiyo, aya matiyo akunze gukoreshwa mu kuhira mu gihe izuba ryabaye ryinshi.

Ibijumba birambitse ku makoma. Ibijumba ni ibya kijyambere byiza cyane, biraryoha. Ku isoko iyo bagiye kubigurisha, bigira amafaranga meza cyane kandi byungura ubicuruza.

Urubuto rw'itunda rukunze kwera cyane hano mu misozi rurahingwa muri musanze, ruraryohaga cyane, kandi n'umuhinzi warwo arunguka kuko ikiro kiba kigura amafaranga meza cyane, ndetse rurwanya imirire mibi rukarwanya indwara, uru ni rwiza cyane cyane!

Ibirayi biri mu mufuka, barimo barabigura banabishyira mu mifuka. Ibirayi ni kimwe mu bihingwa byera cyane hano i Musanze byera neza.

Abahinzi babiri b'abadamu bambaye udupfukamunwa barimo barasarura ubwoko bw'imboga. Iyi ni isogi niyo bari gusaruraga kuko iyi sogi iraryohaga.

Isake nziza cyane imeze neza bigaragara ko yariye neza, yitaweho iyisake iraryohaga iyo uyibaze nko muri hoteli bakayiteka neza, biryoshye cane kandi igura amafaranga menshi y'ibihumbi makumyabiri ukarya ukishima cyane

Umudamu w'umuhinzi ubizi ari mu bigori bye, bimeze neza bitoshe yabyitayeho cyane gose kuko ibigori biri hafi kwera biri kubwejagura.

Imbuto z'amatunda, zimwe zitaratukura neza, urundi rukase ruraryoha cyane, kandi zirinda umuze ukagira ubuzima bwiza ku waziriye.

Umurima w'ibishyimbo by'imiteja ndetse n'imiteja, imiteja ni myiza kuko ni kimwe bihingwa byiza bitanga amafaranga, kandi bitekwa bikavamo isosi iryoroha cyane.

Umuhinzi arimo aratosa ubutaka bwe, yuhira akoresheje itiyo kuko ni mu igihe cy'izuba haba hakenewe amazi kugira ngo ubutaka bworohe maze ashyiremo ibihingwa bye.

Igiti cy'avoka kikiri gito kimaze igihe gito gitewe iyo kino giti gikuze kivaho avoka nyinshi zikaribwa, kandi gifasha ubutaka gufata, bukagira intungamubiri mbese bukarumbuka.

Inzu y'ubwanikiro bw'ibigori yubakishije ibiti ndetse igatwikirizwa amabati, hasi hariho ay'umutuku. Ibigori bikunze kuvamo ifu kawunga, amafu y'ibikoma mbese biraryohaga cyane.

Umworozi w'inkoko, inkoko za kijyambere arimo arazigaburira aziha amazi ndetse n'amafu cyane cyane ibiheri by'ibigorii nibyo inkoko zikunze kurya. Izi nkoko zirunguka, bizurunguka cyane.

Abahinzi bari mu murima, umwe ari kubagara, undi arahagaze ari kuri telefoni, bisa n'aho agiye guhamagara umuntu cyangwa gushakaho izindi serivise, undi muhinzi we ari kubabagara, yunamye mu bunyobwa butoshye cyane, byiza cyane.

Imiteja myiza cyane, imeze neza, yitaweho, yeze neza, kandi iyi rwose iyo uyikoresheje uteka ifunguro mu isosi, utegura agasosi warisha umuceri cyangwa kawunga cyangwa ibitoki biba ari byiza cyane.

Umurima gw'inanasi harimo abahinzi bazo bafite n'udu bambaye udupfukamunwa, kandi bicaye mu inanasi hateyemo n'urutoki, zisa naho rwose zitaweho neza cyane bategereje umusaruro, hari n'izatangiye kurabyaga.

Umurima w'urusenda rutukuye hari n'umuhinzi wicayemo, uyu muhinzi ameze neza ubonako uru rusenda, rumuhaye inyungu ruri kwera agiye kurushora isoko.

Ibigori bihinze mu murima byiza cyane，rwose bimeze neza birashishe. Hepfo yabyo hari ikiyaga nta mazi ahari， bisa n’aho byifashishwa mu kubyuhira.

Umurima uhinzemo ikawa n'urutoki bivanze, izi kawa zikunze gukoreshwa iyo zeze ziragurwaga cyane kuko inganda zirazitunganya zikazohereza hanze bagatanga amadovize n'izi nsina zera ibitoki bikaribwaga cyane.

Agasoko bacuruzamo utuntu dutandukanye nk'urusenda, ibitunguru n'utundi. Hano hateretse umufuka urimo urusenda, ndetse n'udushashi turimo urusenda, n'akameza. Ubucuruzi bw'izi mbuto burihuta kandi buteza imbere abahinzi bato n'abaciriritse.

Arimo arishimira umusaruro w'amatunda asaruye, uyu musaruro arawishimiye cyane, bigaragara ko yawitayeho neza. Iyo usaruye rwose ugomba kwishimaga, ugashyira abacuruzi ku isoko bakaguha amafaranga, ukunguka. Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bituma wunguka ukatera imbere.

Ubunyobwa buri butonoye kandi buvanze n'ubundi budatonoye bukiri mu bikonoshwa byabwo. Ubunyobwa nibwiza buraryohaga, bukora isosi nziza ukavanga n'ibindi biryo.

Abahinzi bari gusarura ingano bakashyira ibyatsi byazo mu mashini ibikatagura bikanabirunda neza kugira ngo bitwarike neza. Iri ni ikoranabuhanga rwose mu buhinzi kuko byoroshya kubitwara.

Inzu ihingwamo bya kijyambere bita girini hawuzi, irimo abatekinisiye babiri bari gukoreramo, bambaye amataburiya y'imyeru ndetse na ga, bafite n'utuntu n'ibihingwa bari guhingamo biri mu bikombe.

Ihene zirimo zirarisha mu twatsi, ni ihene enye nziza cyane, izi ihene kandi ni zo iyo bazigurishije zivamo amafaranga kandi zikanororoka vuba cyangwa se bakazirya, zikavamo inyama ziryoshye, bagakoramo boroshete.

Inzu bahingagamo bakunda kwita girinehawuze. Bari guhingamo ibihingwa by'ibirayi kandi umu harimo Agoronome ubishinzwe. Arimo arapima ari kureba niba hari ikibazo bifite harimo uwabigenzuraga. Izi nzu zikunze gutanga umusaruro mwinshi cyane kurusha ku butaka.

Agasozi keza cyane， gateyemo ibyatsi，ibiti byiza bibereye amaso kureba，kariya gasozi kaberanye no kugasohokeramo，ndetse ni kimwe mu bintu byiza bituma igihugu cyacu kimera neza ，cyitwa u Rwanda rw'imisozi igihumbi.

Imiteja ihinze mu murima, ugu murima ukaba umeze neza kuko witaweho urera cyane, imiteja ni myiza kuko tuyikuramo ibyo kurya, tugateka isosi nziza.

Umudamu uri kugosora soya ku ntara akoresheje intara, imbere ye hari umufuka arimo aragenda azirundamo. Ibi bifasha kubika umusaruro w'izi soya neza, utangirika, bitewe n'impamvu zitandukanye.

Umuhinzi ari gusarura ubunyobwa. Ubunyobwa arimo arabutotora abuvana ku biti byabyo, aburunda hamwe. Ubunyobwa ni bwiza ubu azakuramo amafaranga menshi atere imbere, akomeze gutera imbere.

Ee! Amajeri arimo ararabya mbese bayita uruyange, ni rwiza cyane kuko niyera azavamo amafaranga, umuhinzi yiteze imbere yunguke. Ubutaha mu yindi sezo ahinge byinshi cyane atere imbere.

Ibihwagari biri hafi kwera, igihwagari kirera neza iyo cyeze bagikuramo amavuta y'ubuto kandi amavuta y'ubuto aba ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, igihwagari rero ni ukucyitaho kino cyo bacyitayeho rwose.

Umucuruzi w'imyaka ari gucuruzaga ibishyimbo, ibishyimbo bijya gutukura, ibishyimbo bavuga ko biba birimo feri, ikinyabutabire cyongera amaraso kigakomeza amagufa, ibishyimbo birinda n'indwara no kurwaragurika birimo n'amaporoteyine.

Soya ,Soya zeze zikaba ziri mu cibo hariho n'akandi kantu kaziyora kakoze mu biti keza cyane, izi soya zivamo ifu bateka bagakora isosi ijyoha.

Igihingwa cy'amashaza cyiza cyane gikunze kuribwa cyane n'abantu b'ingeri zose, aya ari kurabya ntago arera bayita uruyange, ni rwiza kandi ruri hafi ngo rutange umusaruro ku muhinzi yatere imbere.

Ibishyimbo bya mushingirirwa, bishingirirwa ukoresheje imihembezo kandi byera neza ariko byera nyuma ya biriya bigufi, kuko bino byo baba ari birebire.

Umurima uteyemo ibishyimbo biteye ku murongo byegereye ishyamba, bigaragara ko ikirere gisa neza, ndetse n'ibishyimbo bimeze neza byakuze neza.

Imiteja iri ku ntara, iyi miteja ni miremire, iyi mbuto rwose ni nziza kandi iraryohaga, kuko uyikoramo isosi ukarya, ukarisha ibindi biryo.

Abahinzi b'abadamu bari gusarura umusaruro wabo bawurunda hamwe, no kugosora ibishyimbo bakabirunda ahantu hamwe, ibi bishyimbo ni ingenzi rwose kuko umusaruro ugomba kubikwa neza witaweho.

Umurima w'amasaka urimo amasaka yeze, araburaga igihe gito yere, kandi andi arimo ararabya. Amasaka avamo ibintu byinshi bitandukanye nko kuyakoresha mu bushera, gushigisha ubushera no kuyakuramo igikoma.

Igihwagari kiri hafi kwera, iki gihwagari gikunze guhingwa ino mu Rwanda kandi kivamo amavuta bateka, amavuta aba ari meza ku buzima ndetse akaba anavura, meza cyane.

Isoko ry'imyaka itandukanye. Harimo ibishyimbo, soya, hirya hari inyanya n'izindi mboga. Izi mboga n'ibi bihingwa by'ibishyimbo ni byiza ku muntu ubirya kuko barwanya imirire mibi.

Umurima uhinzemo dodo kandi izi dodo biragaragara ko zameze neza zirakura neza zigera n'aho zirabya, mbese izi dodo zari zitaweho ntago birukanse bazisarura hutihuti.

Umurima uri uhinzemo ibitunguru n'ibihwagari n'ibishyimbo ariko bino bihwagari byo ni birebire bisumba ibyo bihingwa bindi. Igihwagari ni cyiza cyane kuko kivamo gikorwamo amavuta yo kurya amavuta bita ubuto.

Ibigori biri mu ibase, ibigori ni byiza iyo babihunguye gutya bagiye kubisesha, kandi bikavamo ifu nziza ya kawuga ivamo ubugari, kandi cyangwa hakavamo igakorwamo igikoma.

Umuhinzi afite umwana mu kuboko kw'iburyo, n'ibumoso ahafite umusaruro w'ibishyimbo bikiri mu miteja ya byo, inyuma ye hari hahinze ibigori, ahagaze mu murima.

Umuhinzi w'ubunyobwa ari kugaragaza uburyo ubunyobwa byeze, yaburanduye ibinyobwa ni kimwe mu bihingwa byiza, kandi byera neza iyo uwabyitayeho umuhinzi arishimye rwose.

Ubunyobwa bwera cyane mu gice cy'iburasirazuba buratonoye bagiye kububetamo ifu, ifu ikorwamo isosi. Isosi ikoreshwa mu ngo nk'irwanya imirire mibi.

Ibishyimbo biri mu mbehe, ibishyimbo bitukura, birasa neza, bisa rwose neza kuko byeze neza cyane. Ibishyimbo bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane kuko birusha inyama no kuba byatunga umubiri neza.

Iciraro cirimo ingurube, izi ngurube zikaba zirimo zirajyaga, zirimo gusa zivundaguje, ubworozi bw'ingurube ni kimwe mu bitanga amafaranga cyane, kuko ingurube ziroroka cyane mu gihe gito, maze nyiri uzoroye akabona umusaruro n'inyungu nyinshi yakuye mu gihe gito.

Inka iri kumwe n'akana ka yo iri kuririsha ibyatsi, bisa n'aho imaze iminsi mike ibyaye. Akanyana kayo ni keza cane, kuko kajya gusa n'iyo nyina, kuko gafite amabara y'umweru n'umukara nk'iyo nyina.

ishyo ry'inka zigiye kurisha mu misozi myiza, iriho ubwatsi, kandi izi nka rwose ni nziza, zitanga umukamo mwiza tukabona amata, tukamererwa neza.

Abaveterineri bafashe babiri umwe afashe ingurube mu ntoki ,undi arayifite ari kuyitera urushinge mbese bari kuyivura, barimo baraseka bishimiye ko bari bagiye kuyigirira neza.

Umworozi w' ingurube ari kwagaza ingurube isa naho ihaka; iyi ngurube bigaragara ko ishishe cyane yayitayeho kandi yiteguye kuzamuha umusaruro, nawe agatera imbere.

Ingurube ziri mu kiraro cyazo ni iza kizungu. Ingurube ni rimwe mu itungo ryunguka vuba, ritanga umusaruro vuba, rikaduha umusaruro n'inyungu, ba nyirazo aborozi bazo bagakirigita ifaranga.

Abaveterineri bafashe inka barimo barayikingira, umwe ayifashe umurizo undi arimo arakora mu nda yayo, ndetse bambaye amataburiya yanditseho arasividi, ndetse bisa n'aho ari abaveteneri b'umwuga babyigiye.

Veterineri ari gutera inka urushinge， hari n'undi muntu umufashije kuvura. Kuvura inka， bikorwa n'abaveterineri babyize， uyu nguyu aba yarabyize kandi abifitiye impamyabushobozi，kugira ngo amatungo nayo agire ubuzima bwiza atange umusaruro.

Abaveterineri bari kuvura imbwa bose bambaye udupfukamunwa n'imyenda y'akazi y'amataburiya y'imyeru na ga mu ntoki, kuvura imbwa ni kimwe mu ngenzi kuko iyo idakingiwe hari igihe iryana igateza uburwayi mu bantu.

Umworozi w'inkwavu arimo arakata amakoma, kugirango agaburire izi nkwavu, ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane cyane kuko zitanga umusaruro mwiza mu gihe gitoya.

Isoko ry'intama ririmo abantu bazanye izo ntama ndetse harimo n'ihene, mbese baje kuzigurisha n'abandi baje kuzigura, mbese iri soko riritabirwa cyane kuko barihahiramo aya matungo.

Umwana m'umutoya afashe umurizo w'inkoko, inkoko zo ni eshatu ariko imwe muri yo niyo umwana afashe. Inkoko ni nziza iyo ziteye amagi aribwa n'abana bakakura neza.

Akanyoni kahagaze ku giti kafite utubara twiza gafite n'isuzu ritukura mbese akanyoni ni keza kishimiye kuba mu biti utu tuyoni bene utu tuyoni dukurura ba mukerarugendo agasiga amadovize hano mu birunga tuno tuyoni niho twibera ni heza cyane.

Utunyoni tubiri tw'udufundi, kamwe kafite ibara rijya kuba umutuku, akandi ni umukara, uteruye kandi uhagaze mu biti byumye. Utu tunyoni dukunda kuririmba, kandi natwo turi muri bimwe bituma ba mukerarugendo bazanaga amadovize, bakazaga kutureba ino mu Rwanda.

Inyoni mu cyare cyazo, ni inyoni imwe irimo iri kumwe n'ibyana byayo birimo biraririmba, bigaragara nk'uko biri kuririmba kandi byubatse mu giti, mu giti cy'umuvumu.

Imbeba, ikinombe iri mu byatsi bisa n'aho iyi mbeba ari zimwe ngo za kizungu, kuko zisa n'iz'inyarwanda dusanzwe tuzi. Imbeba ikunze gucukura umwobo ikajyamo ikarya n'ibintu bitandukanye, iyo ihuye n'umwenda cangwa amafaranga irabicagagura.

Inyoni yo mu ishyamba rikunze kuba no mu birunga kandi izi nyoni zikururaga ba mukerarugendo kuko ziboneka gake, niyo mpamvu ba mukerarugendo bazana amadovize kugirango barebe izi nyoni nziza cyane.

Inyoni y'umukara ifite amaso ajya kubaga umuhondo ihagaze ku giti inyoni ni nziza ikunze kuba mu birunga no mu mashyamba kandi ni nziza cyane ikurura ba mukerarugendo bagasiga amadovize.

Utunyoni duhagaze ku masinga ku nsinga z'amashanyarazi. Izi nyoni ziri kota akazuba zimeze neza inyoni ni agasimba keza k'amahoro.

Inzovu iri mu ishyamba, mu bihuru, bisa naho ari parike, kandi inyuma yaho hari ikirunga kigaragara, cyangwa umusozi munini, iyi nzovu ikaba ari imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo hano mu Rwanda, kuko baza kuyireba bagasiga amadovize.

Agacurama k'umukara kakunze kugenda mu mwijima karaguruka ariko nguko tubizi ntabwo ari inyoni nubwo kaguka ahubwo ni akanyamabere kari mu bice by'akanyamabere kuko karonsa.

Inyoni bitaga ifundi, ifite akabara keza, irasa neza, ni umutuku n'umukara, inyoni ikunda kubyuka mu gitondo ivuga, iriririmba, igakangura abantu nk'abahinzi baba bashaka kubyuka kare. Ni nziza cyane turayikundaga mu Gwanda.

Inyoni nziza ifite amabara y'umukara kandi ihagaze ku giti izi nyoni nazo ziri muri bimwe mu biremwa ndanga bwiza bw'igihugu cyacu kuko nazo zikurura bamukerarugendo bakaza kuzireba bagasiga amadovize.